Umugabo wicaye imbere hari mashini ikora impapuro, arimo arazikora neza azifunga mu makarito, yitejeje imbere we n'umuryango we n'igihugu muri rusange, kuko iyo abantu bafungiyemo abantu birabafasha.

Abantu bateraniye hamwe harimo abambaye amataburiya y'umweru arimo gusuka ibintu bisekeka mu ijage, impande ze hari akabuni kari mu ibara ry'umuhondo, hiryayi hari abandi bantu bategereje kugira abahereze ibyo ari gusuka mu ijage.

Umukobwa ufite impano iri mu ibara ritukura, n'agakarito k'ikake, imbere ya hari irindi barara ritukura, hepfo handitse Equity bank, afite impano ashyiriye umusheri we mu gihe cya sevalenti.

Umugabo wambaye impeta n'isaha ku kaboko, afite amafaranga atandukanye mu ntoki, amwe ararambuye andi arazinze, amwe ni amadorari andi ni amanyarwanda arimo kuyerekana, aho usubiyemo kabiri.

Inyubako nziza nini ifite ibyumba byinshi, harimo kugaragara icyumba cy'uburyamo, harimo amatora, harimo imeza, harimo imisego, haragaragara ko hari isuku ihagije.

Isoko riteraniyemo abagabo n'abagore baje gucuruza inyanya, ibitunguru, intoryi, ibintu byinshi bitandukanye, baricaye bategereje abakiriya kugira ngo baze babagurire babateze imbere.

Ababyeyi bafatanyije igikoni barimo gutegura ibyo guteka, hari amabase, hari iparato iriho ibirayi, ababyeyi bamwe bahetse abana bari gutegura ibyo kurya by'abana babo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ahantu hacururizwa harimo ibintu bitandukanye, bifite amabara atandukanye, imyenda, amasahani, imitako itandukanye yo kumanika mu inzu, amabara y'umuhondo n'icyatsi n'umukara n'umweru bitandukanye.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye, imyenda, inkweto, imyenda imanitse, harimo abantu barimo bahaha binjira mu isoko, abandi basohoka mu isoko, harimo imyenda imanitse no ku biti, abantu bose barimo guhaha.

Abagabo n'abagore, umugabo arahagaze yambaye ikarita y'akazi, umugore aricaye arimo kumwereka agaseke k'amabara y'icyatsi n'umweru agakoramo, impande zabo hari mashini, hari n'igikinisho cy'abana.

Inyubako nziza iri i Kigali, Kanombe, yubatswe n'amatafari, amabati yayo ni irangi ry'ubururu, imbere hasi yubatseho amapave bigaragara ko ari inyubako y'abakire.

Abagabo n'abagore bateraniye hamwe barimo kugirana inama yo kwiteganyiriza muri ejo heza, kugira ngo bazagire ubuzima bwiza n'amasaziro meza, urimo kubahugura afite mikoro yambaye umupira w'umweru afite n'icupa ry'amazi.

Abantu bari mu nama, abagabo n'abagore bari muri sare bari kwiga ibyagiriye igihugu akamaro hari intebe, hari ameza, hari mashini, hari na poberi, bari kwiga icyagirira igihugu akamaro.